Abayobozi b'igihugu cyacu badutekerereza neza, iyo bicaye mu nama bakungurana ibitekerezo biteza igihugu cyacu imbere bitugeraho, bityo u Rwanda rugakungahara, abaturage bakagira umutekano, tugatera imbere mu bikorwa byacu bya buri munsi.

Abantu benshi bicaye muri sare bateraniye hamwe, bicaye muri sare nziza ifite amakaro meza, amarange meza, purafo nziza. Ibiganiro byabo biri kubaka buri umwe wese bicaranye bari hamwe ni ingirakamaro.

Abantu batatu bicaye hamwe mu nama biga ku bitekerezo byabateza imbere ndetse no kuri rubanda nyamwinshi barimo baranywa amazi ,amazi ni ubuzima bwiza murakoze.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bicaye neza, ni benshi bari kunywa amazi, telefone barambitse, bose bari gukurikirana ibigezweho bari kubwirwa bya buri munsi, murakoze.

Abayobozi b'umujyi wa kigali bayoboye neza turabashimira batuyobora mu buryo bwiza buri wese yakwishimira, serivisi bazitanga uko bazemeje mu nshingano zabo ntacyo njye nabashinja .

Abantu bicaye hamwe mu cyumba cy'inama bari mu mu bijyanye n'iterambere bafite mashini imbere zabo, barasa neza, bambaye neza bitandukanye bicaye ahantu hasa neza, bicaye no mu ntebe nziza, inzu yabo barimo irimo purafo nziza murakoze.

Abantu batanu bari kumwe n'ushinzwe umutekano porisi iri mu nshingano zayo za buri munsi, ireberera abaturage bari mu bibazo byabo bari kubikemura kandi byahawe umuronko.

Abayobozi bicaye mu cyumba cy'inama barimo biga ku bibazo byabaturage bakora gahunda zabo neza nkuko basabye inshingano zabo barazubahiriza bikwiye .

Abantu icyenda barimo abagabo n'abagore, bari mu cyumba cy'inama. Bose bahanze amaso imbere nk'aho bafite uwo bateze amatwi, uretse umugabo umwe uhugiye muri telefoni.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama Imbere yabo hari mashini zibafasha mu bumenyi bafite bwa buri munsi, imbere yabo ari n'amazi yo kunywa abamara icyayaka, bakavuga ibyo bavuga badategwa.

Abayobozi b'igihugu cyacu bari mu nama bungurana ibitekerezo ku nama nziza z'ingirakamaro zagirira abaturage akamaro ndetse natwe n'abanyamahanga kandi serivisi y'ubuyobozi bw'igihugu cyacu iduha irashimishije murakoze .

Umuntu wambaye ishati y'umuhondo afite mikoro, yambaye rinete, afite imisatsi myiza, arasa neza, aravuga neza, murakoze.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo abagore, abagabo, ku ruhande hari icyapa, ihene bafashe bari guhabwa, daso, idarapo, n'inzu n'intoki.

Abayobozi bateraniye hamwe, abagabo imbere yabo hari imashini ya laputopu, amazi meza agezweho yo kunywa bambaye neza, barasa neza barimo batanga ingero zabagirira akamaro n'abantu muri rusange.

Abantu batatu bari mu cyumba cy'inama bari kumva banatanga ibitekerezo ku nshingano zabo za buri munsi bashinzwe, barimo barazikora neza bameze neza bari guhana ibitekerezo neza.

Abantu batandatu bicaye hamwe bari kuganira kubibazo byacu bya buri munsi, by'ingirakamaro biduha ejo hazaza, biduha iterambere ryiza kuko iterambere ni ingenzi, ibitekerezo byabo ni ingirakamaro murakoze.

Abantu benshi bicaye hamwe ku murongo muri sare ikorerwamo ibiganiro bya buri munsi bibateza imbere, biduteza imbere twebwe abaturage, bicaye kumeza asa neza yoroshe ibitambaro by'umweru, imbere yabo hari amazi, bamwe bifashe ku matama bishimiye ibyo barimo baraganira birimo biragerwaho neza.

Abagore babiri bicaye hamwe mu nzu, imbere yaho hari amazi yo kunywa, amazi ni ingenzi, akiza inyota mu buzima bwa buri munsi, barimo baravuga ku bijyanye n'icyerekezo cy'abaturage cyabagirira akamaro murakoze.

Abayobozi bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama batugira inama z'uko igihugu kigomba kugenda badutekerereza ku mibereho yacu ya buri munsi n'ubuzima bwacu duhora mo bwa buri munsi twifuza ko baguma badutekerezrea no kutugirira ibintu byiza byatugirira umumaro .

Ubuyobozi n'abayoborwa twicaye hamwe tuganira ku bibazo by'ingenzi byagirira akamaro abaturage bose muri rusange, n'ibyiza.

Abayobozi bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, biga ku bitekerezo byagirira abantu akamaro, mu buzima bwabo bwa buri munsi, ndetse n'imiryango yabo ikabasha kubaho neza, bitewe n'imishahara yabo bahembwa bagomba gukora neza cyane.

Abantu benshi bari kumwe bicaye hamwe mu cyumba imbere hari mashini bakoreraho ibikorwa byabo bya buri munsi bibubaka bibateze imbere muzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kirimo mashini nyinshi, batanga serivisi zinogeye abantu muri gahunda zitandukanye za buri munsi kandi bazitanga neza natwe turishimye.

Ipoto iririho amatsinga y'amashanyarazi atanga serivisi z'ikoranabuhanga, irakora neza turayishimiye natwe turariyobotse nk'abaturage nyamwinshi, turashimira leta yazanye ibikorwa remezo ni byiza ni ingirakamaro.

Umunara ni mwiza utanga ikoranabuhanga kuri serivisi zose zitandukanye, ukoresha umunara wese wa emutiyene, agubwa neza kuri serivisi ahabwa cyangwa se akenera za buri munsi.

Mashini n'ingirakamaro ikorerwaho serivisi ziibijyanye n'itumanaho, ikoranabuhanga. Ni nziza cyane ku buzima bwa buri munsi bw'umuntu ku bantu bize bazi kwikoresha akazi kayo, ishinzwe.

Turi mu nzu itangirwamo serivisi zitandukanye turi abantu batatu dufite n'imashini na terefoni mu ntoki zacu ibintu biragenda neza tujya duhamagara n'abandi kuza guhabwa serivisi nziza ikorerwa hano murakoze.

Umunara uhagaze hagati y'amazu utanga serivise nziza itumanaho/ikoranabuhanga rikagenda neza, mu buzima bwa buri munsi bwabakoresha ibikoresho bya gitoronike amazu ni meza kuyabamo kuba mu nzu sinkokuba hanze, ubaye mu nzu aba afite aho abarizwa.

Abagabo bane n'umugore umwe bahagaze hamwe bafite amashine mu biganza byabo barimo bakora serivisi zabo za buri munsi k'uruhande hari imodoka hari n'amazu yo kubamo ari n'ipoto riteye irangi ry'umweru na shokora.

Abantu bari hamwe; abagore, abapapa, barimo bagenda muri serivise zitandukanye bagiye guhabwa, zikorerwa kuri iyi nzu y'itaje, ifite irangi ry'umweru n'umuhondo, ifite ibirahure, igereretse inshuro nyinshi, afite amadirishya, ku ruhande hari ibiti, n'andi mazu.

Inzu ya salle iteraniyemo abantu bicaye mu ntebe z'amadiva, imbere yaho hari mashine, ku ruhande hari icyapa kigaragaza ibyo bakora muri serivise zitandukanye za buri munsi.

Abantu benshi bateraniye hamwe abagore, abagabo bambaye imipira y'icyatsi, bafite ibiti mu ntoki bigiye guterwa by'ibiribwa, bari guseka barizihiwe ku gikorwa barimo natwe barikorera abaturage tumeze neza turabyakiriye.

Ibiti ni byiza biduha umwuka mwiza bituma imvura igwa bikanakumira Ibiza muri rusange, ipoto rifite akamaro kanini rifatirwaho umuriro wogutanga serivisi z'abaturage.

Umuntu uri ku modoka itukura, umuhanda mu byapa bibiri n'inzu iri kubakwa ku ruhande ikenewe gukorerwamo iterambere rya buri munsi ry'abantu, murakoze murakarama.

igipangu cyiza gihagazemo imikindo n'ipoto ry'amashanyarazi n'ipoto ry'amatara; amatara ni meza atuma urumuri rugaragara, aho ruri haba hasa neza harabona nta mwanzi wahagusanga umureba, cyangwa se yabona.

Ipoto yesitayeho insinga z'amashanyarazi, ihagaze neza, amashanyarazi ni meza atuma ikoranabuhanga rigenda rikanasakara hose ku Isi, udafite iterambere ntacyo wageraho kandi ikoranabuhanga ni ryiza rizana iterambere mu gihugu.

Umunara uhagaze mu kibanza cyawo cyabugenewe ukurutirije ibyuma bisa neza biteye amarangi ,umunara ukora serivisi zitandukanye z'ibijyanye n'itumanaho itumanaho ni ryiza ku buzima bw'abaturage mate ikora kuma terefoni na tereviziyo serivisi zawo izitanga neza.

Abantu bahagaze ku kazu k'abagenzi, barimo batega imodoka zibageza aho bagomba kugera mu buzima bwabo bwa buri munsi, ku ruhande hari amapoto atanga umuriro, umuriro ni mwiza, utanga iterambere ku ikoranabuhanga, ku byuma byabo by'amashanyarazi.

Kaburimbo y'umukara, ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru karimo amapave bagenderaho, ku ruhande hari urupangu rw'umweru, n'amapoto y'amatara avanze n'ay'umuriro, atanga serivise z'ikoranabuhanga, ku ruhande hari imodoka y'ivatiri, n'iz'umweru, n'icyapa.

Ipoto rihagaze muri jaride ririho itara ry'amashanyarazi ndetse n'amasinga harimo n'ibiti, kuruhande hari kaburimbo n'amazu, ikenewe kuba yakuhirwa yarumagaye murakoze.

Ipoto ry'amashanyarazi ry'ibumba ribumbye neza, ririho amasinga atanga serivisi z'umuriro, munsi yaho hari imodoka ipakira ibikoresho by'abaturage, umuhanda mwiza w'igitaka umeze neza, murakoze.

Imodoka itwara abagenzi iparitse ku muhanda ku kazu k'abagenzi, abantu barayitegereje kugirango bageze aho bagomba kugera bakore serivisi zabo za buri munsi na gahunda zabo bashinzwe gukora bahigira imiryango yabo n'urubyaro rwabo.

Abantu batanu barimo gukora ibikorwa by'amashanyarazi ,amashanyarazi ni ingenzi mu ikoranabuhanga rya buri munsi bituma iterambere ryihuta mu gihugu cyacu ndetse hirya no hino .

Etaje nziza yo gukoreramo iteye irangi ryiza, ifite ibyumba byinshi, igeretse kenshi uyikoreyemo wese amererwa neza abantu barabyishimira kandi ni byiza cyane!

Inzu ifite imbuga nziza yo kugamamo imvura abantu turaho turatuje turi guhabwa serivisi zihakorerwa za buri munsi mu buzima busanzwe turanezerewe, turishimye serivisi nziza muduha murakoze ,amazu nayo ni menshi murakozen.

Abantu benshi bari hamwe kwa muganga bari guhabwa serivisi zitandukanye mu buzima bwa buri munsi, baricaye abandi barahagaze baguwe neza barimo barahabwa serivisi murakoze.

Abantu benshi b'abagore, bateraniye hamwe, baricaye, ku ruhande hari igikapu, hari inkingi z'amatafari ahiye, hari umumama wambaye igitambaro cy'umweru n'ikanzu y'umutuku, n'umumama wambaye igitenge kirimo umutuku n'umweru n'irindi bara, hari n'abicaye ku ntebe z'ibyuma.

Inzu ihagaze ku muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hari icyapa cya parking, hari n'imodoka ziparitse hari n'umumotari, ku ruhande hateye umukindo, inzu iteye irangi ry'umuhondo n'amabati.

Kwa muganga ,muganga arimo aravura umuntu wamuganye ku bw'ikibazo cy'uburwayi afite serivisi arimo arayimuha neza nawe arabyemeza ko ari guhabwa serivisi nziza murakoze . Nkaba nshimira ubuyobozi bw'u Rwanda bwazanye abaganga bafite ubumenyi bafite ubunararibonye mu byo bakora mu buzima bwa muntu

Inzu nziza ifite urugi rw'ubururu yambaye iserire hariho n'icyapa kuruhande, abantu nabo barahahagaze barimo bafata serivise bahabwa za buri munsi z'ibijyanye n'ibyo bajemo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abagororwa ba mageragere bari kugororwa mu buzima bwabo bwa buri munsi bigishwa ibyabagirira akamaro bavuye gukora bari kuvoma amazi bari kumwe n'ababashinzwe ari bo bacungagereza bameze neza baremeza ko ibyo bahozemo batazabisubiramo kandi ni byiza cyane .

Abayobozi b'u Rwanda bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, bafite idarapo ry'igihugu, bicaye neza bari kujya inama y'ukuntu bagomba gukora akazi kabo ka buri munsi, murakoze cyane.

Umucamanza yambaye neza arasa neza inshingano ze azikora neza, nk'uko yazimeje mu nshingano ze za buri munsi, yambaye rinete yambaye ingofero, imyambaro yakazi yose arayambaye.

Abantu batatu barimo imfungwa imwe bari kuburanisha ku bibazoyo bya buri munsi yahuye nabyo kandi yishimira ko yabisubiramo mu gihe yagororotse ku kumurongo byanyabyo.

Abantu bane barimo umugore umwe bicaye mu cyumba bari kuganira abandi bari kuri terefone, mu kazi kabo ka buri munsi no muri serivisi bakeneye za buri munsi zihatangirwa kandi ni ingenzi.

Umugabo umwe uhagaze wenyine yambaye ishati y'umweru imbere n'ishati itukura inyuma, ni igikara, arareba neza, ateye neza, amatwi ye yombi aragaragara, aragaragarira buri wese.

Abantu bari mu cyumba cy'iburanisha, harimo umucungagereza n'umuburanyi ariwe mfungwa n'umucamanza, barimo baraca imanza za Kizito, Kizito arimo araburana ku bibazo byiwe areba ko bizagenda neza.

Nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu Polo Kagame arimo araha ikiganza ukuriye umutwe w'ubucamanza, amushimira ko ibyo akora ari byiza, anagomba gukomeza inshingano ze akazikora uko bikwiye, nta mbogamizi ntawe abangamiye nta marangamutima mu kazi ke ka buri munsi.

Abantu batatu harimo umwe w'umurwayi bagiye kwa muganga, ni abagororwa bashyikirije muganga umurwayi waturutsemo, ni byiza ko bari gutanga serivisi, ni abana beza ni, abantu beza, ni ingirakamaro kuba bari hamwe n'abarwayi banabatabaye, ni byiza Imana ibahe umugisha.

Abayobozi n'abantu bicaye hamwe mu cyumba cy'inama, bari kujya inama ku bintu bitandukanye byateza imbere ubuzima bwabo bwa buri munsi, byatuma n'akazi kabo ka buri munsi kagenda neza, ibintu bigatungana, murakoze.

Abantu b'abayobozi bicaye hamwe bateraniye hamwe muri sare, biga ku bibazo by'iterambere no ku bibazo by'abaturage. Bari kubiha umurongo kandi turishimye tuguwe neza kubwa serivisi nziza duhabwa.

Abayobozi bashinzwe kuduha serivisi, zitandukanye banadutekerereza ibitekerezo byaduteza imbere, barimo barabiduha neza bari kubikora neza, turi muri sare turi abantu batanu, nukuri murakoze.

Umuntu wambaye ikoti ry'umutuku ishati y'umweru rineti n'ingofero umucamanza akazi ke agakora neza ka buri munsi abantu twemera serivisi nziza aduha amategeko ayagendamo neza nta n'icyo yica ntabangamira.

Turi mu rukiko kwiga ku bibazo bitandukanye tuba twagiriwe, ababitugiriye mu by'ukuri imanza zigenda zicibwa neza kandi serivisi turayihabwa mu buryo bushimishije murakoze.

Abacungagereza bari kumwe n'imfungwa n'abagororwa, bari mu modoka ifunguye inyuma, baje guhabwa serivisi zabo za buri munsi, z'ibazo byabo. barahamya ko bigenda neza bifite umuhamuro murakoze.

Abapolisi batatu na Ribu bavuye mu modoka izanye ucyekwaho icyaha bamwerekeje aho agomba kubarizwa ibyo agomba kubazwa ku makosa yakoze. Ni byiza kuba bakurikirana aya makosa yose aba ari gukorwa hirya no hino mu baturage.

Umuntu w'umumama ni mwiza, yambaye neza, arasa neza, ni imibiri yombi, afite umusatsi mukeya, arareba neza, anateye neza.

Umuntu w’umugororwa uje guhabwa serivisi z’ibibazo yanyuzemo, yahuriyemo nabyo byatumye ajya gufungwa. Arimo aragirwa inama kandi z’ingirakamaro mu gihe nawe we azikeneye.

Ikarito zibitse amadosiye ya gacaca, ziyabitse neza, n'ababishinzwe babibika neza, babikontoroye neza, ni byiza gusigasira amateka y'igihugu cyacu y'ahahise. Murakoze.

Abagabo batatu bari hamwe abapolisi babiri n'umugabo umwe ukekwaho icyaha baramufashe bamushyikirije ubugenzacyaha. Inshingano zabo bazikora neza, abaturage turabishimira uburyo bakora umutekano wabo wa buri munsi.

Imodoka ebyiri zihagaze ku mapave imodoka y'umukara, imodoka y'umweru ijyanye n'umutekano wa polisi wo mu muhanda. Polisi ikora akazi kayo neza, imodoka nayo ntago ibatenguha ituma serivise zabo bazitanga neza.

Abantu baba polisi mu Rwanda, bambara neza bameze neza bafite intwaro zabo umutekano bawukora neza uko bikwiriye, nta kabuza ntibishisha aho ubahamagaye hose bagusangayo, baragufasha m'ubuzima bwawe bwa buri munsi.

Umuhanda w'umukara urimo umupolisi ushinzwe kureba amakosa y'imodoka n'ibinyabiziga bindi byose bigenda mu muhanda, akazi arimo aragakora neza ku ruhande hari imodoka n'inzu nukuri murakoze.

Kizimyamwoto iri mu icupa ry'umutuku, yometse ku gikuta, yometseho akapa k'umweru kagaragaza uko ikoreshwa ifite umugozi w'umukara, ituma ahantu hari inkongi z'umuriro zibasha gutuza zigatunganywa.

Abapolisi babiri bahagaze kumuhanda, kuruhande rwabo hari moto bakoresha mu akazi kabo ka buri munsi y'umweru n'umukara kuruhande hari icyapa cy'umutuku n'agatente bicaramo, kuruhande hari imodoka hari n'inzu ya etaje ifite amabati y'ubururu.

Icyapa cya polisi kigaragaza inshingano zabo za buri munsi, turashimira perezida Paul Kagame washyizeho uyu mutwe wa polisi, ukora neza cyane, abaturage turawishimiye.

Abagabo n'abagore biganjemo abambaye imipira y'umweru, bari kumwe n'umugore wambaye imyenda y'ibara ry'umukara, bigaragara ko ari kubatoresha. Imbere yabo hari udusanduku tubiri tw'umweru bari gushyiramo amazina y'abo batoye.

Abayobozi bacu bari mu nama biga ku bibazo byateza igihugu akamaro ndetse n'izindi nama nziza z'ingirakamaro zagirira abaturarwanda akamaro kandi akazi bagakora neza nk'uko bashinzwe birashimishije aho bageze murakoze.

Abantu babiri bateraniye mucyumba bajya inama kubijyanye n'iterambere ryabo ya buri munsi ndetse natwe abaturage iterambere ku nshingano zabo bashinjwe baritujyezaho neza turabashimira kubyo bakora.

Abantu batatu barimo abagabo babiri harimo umuyobozi w'intara y'ububurengerazuba, barimo baratanga serivise nziza, bishimiye ibikorwa barimo n'abayakiriye tumeze neza, turabashimira murakarama.

Umuntu w'umumama wambaye rinete ufite imisatsi y'imikara, wambaye imyambaro y'umukara n'umweru, afashe igitabo mu ntoki n'ikaramu, imbere ye hari mikoro yohereza amajwi kubo ari kubwira abaturage kuri serivisi atanga za buri munsi.

Abayobozi batandukanye harimo umukuru wacu w'igihugu Paul Kagame na madamu we n'ushinzwe ibijyanye n'inkiko, inyuma ye hari abaturage benshi, imbere yabo hari idarapo, afite, ikaramu n'urupapuro, yambaye impeta, yambaye rinette, madamu we yambaye umupira w'umukara n'amakanzu y'ubururu.

Umubyeyi yari hamwe n'abana be babiri bambaye neza bahagaze mumuryango urimo amarido afite imisatsi y'imikara imibiri yombi abana ni beza barakeye murakoze cyane.

Abantu benshi abagore imodoka amazu ba ahantu hamwe bajyanwe muri serivisi zitandukanye za buri munsi hari umwuga mwiza m baguwe neza murakoze.

Abantu batatu bahagaze ku ibogisi ishinzwe kubika impapuro z'amatora, kuko gutora ubuyobozi ni byiza igihugu kitagira ubuyobozi ntabwo aba ari igihugu, kiba kirimo ibyigomeke kandi ibyigomeke si byiza kuko bibangamira rubanda rugufi.

Abantu benshi bateraniye hamwe abagore, abagabo bafite amadarapo y'igihugu ya FPR intsinzi ni imwe, intero ni imwe ni ku gifpunsi gutora neza umuperezida wacu w'igihugu Paul Kagame atuyobora neza mu nshingano ze za buri munsi yahawe n'abamukuriye aribo ibihugu bitandukanye bidukuriye.

Umuhanda wa kaburimbo uparitsemo abamotari benshi, hari n'umugore umwe, hari n'amatara ku ruhande, hakaba n'ipoto ry'amashanyarazi, n'ibiti by'amashyamba, hakaba n'inzu.

Umuhanda urimo imodoka itwara ibikoresho n'umotari utwara abagenzi, ageza abagenzi aho bagomba kugera kugirango bahabwe serivisi zabo neza, yakarabye harakeye moto ye irasa neza, imodoka nayo ifite amapine mashya, yanafubitse neza ibyo itwaye iri bwagereyo amahoro.

Imodoka eshatu ziri mu muhanda w'umukara n'imikindo zirimo zijyana muri serivisi zitandukanye za buri munsi, zitanga, zitugezaho twebwe abaturage turazishimiye murakoze.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini ipakiye ibikoresho harimo n'abantu bari kujya muri gahunda zabo za buri munsi harimo abanyonzi ,abamotari baragenda neza umuhanda wakozwe neza barawaguye kandi ni byiza cyane .

Umuhanda urimo abamotari babiri n'umuntu n'ibiti nipoto hameze neza baguwe neza bishimiye serivisi nziza u Rwanda ruduha mu bijyanye n'umutekano murakoze cyane .

Imodoka ebyiri zitwara abagenzi imwe irafunguye harimo n'icyuma kibara amafaranga kandi umushoferi atwara neza murakoze, umuhanda mwiza, murakarama.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto zitwara ibicuruzwa, izitwara abantu n'ibintu byabo umuhanda barashimira ko ukoze neza ugashimira na serivisi iri gutangwa mu muhanda ndetse muri rusange murakoze.

Imodoka esheshatu zirimo zigenda muri kaburimbo izindi ziparitse, indi ihetse ibiribwa by'abaturage, ni byiza kuba zitanga izo serivisi kandi zizitanga neza murakoze.

Umuhanda wa kaburimbo uparitseho imodoka zitwara imizigo, ziteye amarangi y'umweru, n'abantu bari kugenda mu kayira k'abanyamaguru, k'amapave hari n'inzu igeretse kabiri iteye irangi ry'umuhondo ifite n'ibyapa imbere kuri bako kuhande hari n'ibiti.

Umuhanda urimo ibinyabiziga moto, imodoka itwara abazungu ubukerarugendo bwabo bwa buri munsi umuhanda urimo abaturage barimo bajya bagenda mu kazi kabo ka buri munsi bameze neza bashimira ubuyobozi bwashyizeho imihanda nyabagendwa bakaba bagenda bisanzuye nta mbogamizi .

Umuhanda uparitsemo imodoka itwara ibinyobwa n'umumotari utwaye umugenzi bari muri kaburimbo baguwe neza barashimira serivisi z'ubuyobozi zashyizeho gahunda yo kwagura imihanda , kwagura imihanda ni byiza.

Imodoka ipakira ibicuruzwa nini iri mu muhanda ihagaze mu muhanda wa kaburimbo irimo iradepoza imizigo yayo aho igomba kujya. Abaturage kugira bayibone neza bahabwe serivisi y'ibyo bakeneye.

Kaburimbo y'umukara ifite ku ruhande akayira k'abanyamaguru, irimo moto yitwa refani itwara imizigo, ku hande hari numero ze za telefone z'amagambo y'umweru zigaragaza iyo akenewe baramukenera, ifite shitingi irimo amabara atukura n'ubururu.

Umuhanda urimo umumotari ujya guhiga imibereho ya buri munsi itunga umuryango we inamutunga moto ifite agaciro kanini kuri we no ku muryango iyi nzi ni hano nayo ifite agaciro gakomeye kuba ikorerwamo serivisi zitandukanye za buri munsi.

Abamotari babiri bahetse abantu bari mu muhanda wa kaburimbo, hamwe na kwasiteribatwaye abagenzi bajya aho serivisi zabo zitangirwa, n'aho bagomba kubageza kandi ni byiza serivisi zabo zigiye kwihuta n'ingendo zabo.

Imodoka eshatu ziparitse mu kibuga kigishirizwamo ibinyabiziga bijyanye na perime. Ukorera perime, ugatwara imodoka uyifite nibyiza ni ingirakamaro, ndetse n’iyo ugize amakosa mu muhanda uyifite bigira icyo bitanga. Si nko kuba utayifite

Kaburimbo y'umukara ku ruhande hara akayira k'abanyamaguru k'amapave, imodokari nini ipakira imizigo iri mu muhanda, motari utwara abagenzi ku ruhande hari ibiti.

Imodoka y'umweru ihagaze muri kaburimbo ipakira ibijyanye n'imizigo kuruhande mu kayira k'abanyamaguru harimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara n'ishati y'umweru, afite n'agafuka mu ntoki imbere hari undi muturage w'umuntu.

Kaburimbo iri kugendamo imodoka nini abashoferi bo barashimira k'uwakoze umuhanda kuba yarawaguye, zikaba zigenda neza nta nkomyi imodoka zabo ntizigicika amarasoro, bitewe n'uko umuhanda ari mwiza urakoze .

Umuhanda wa kaburimbo, kuruhande hari akayira k'abanyamaguru k'amapave, imodoka ifite irangi ry'umuhondo, yoroshe shitingi y'umweru, ku ruhande hari umuturage uri kugenda, hari n'ibiti bikorotirije agasenyenge k'icyatsi.

Kaburimbo ihagazemo imodoka y'umukara n'umweru ipakira imicanga, ku ruhande hari umuntu wambaye imyenda y'ubururu, ku ruhande hakaba ibiti byicyatsi, n'ipine iri hejuru yimodoka.

Imodoka iparitse ku muhanda iri gupakurura ibicuruzwa, abayipakurura barishimye bahembwe neza. Barashimira uwatanze akazi n'abandi bifuza gutanga akazi babaha akazi bakagakora bagakora neza cyane.

Imodoka ziparitse muri gare zitwara abagenzi, turashimira perezida wadukoreye ubuvugizi zikaba zaraje zatumaga turara mu mayira ariko ubu ntabwo tukirara mu mayira, turazitega tugataha hakiri kare tukagera mu kazi kacu ka buri munsi neza dutuje, murakoze cyane turashimira uwabishyizeho.

Abanyonzi bari mu muhanda barashimira serivisi nziza ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyabahaye nko gukora biteza imbere, kuko kubaho badakora byabatera ubushomeri ndetse bakaba bajya mu ngeso zitandukanye zitari nziza, zabajyana gufungwa bakajya muri gereza kuko si byiza. Murakoze

Umuhanda wa kaburimbo urimo abanyonzi n'abamotari n'ibinyabiziga by'imodoka binini ni bitoya, biragenda neza. Umuhanda ukoze neza, murakoze cyane twifuza ko n'ibindi byagenda neza.

Imodoka iri mu muhanda ipakiye ibikoresho by'amatiyo ndetse n'ibindi yambaye karcele hejuru igeze ubu igomba kugeza ibikoresho tugiye kubyakira neza kandi umuhanda yaje neza murakoze cyane.

Imodoka ebyiri ziri mu muhanda wa kaburimbo, n'igare bishinzwe gutanga serivisi ku bantu bibatwarira ibikoresho byabo bibagereza aho bagomba kugera murakoze serivisiritanga ziremewe nina nziza ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi.

Umuhanda urimo umuntu n'ibinyabiziga bitwara essansi na moto, abantu bo baragenda, iriho n'inzu nziza icururizwamo, imikorere yaho turayishimira ni myiza cyane iduteza imbere natwe tukiteza imbere.

Imodoka ihagaze mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hari umuntu w'umuturage wigendera ufite igikapu mu ntoki, uri kuri telefone; yambaye inkweto z'umweru n'umukara, n'imyambaro y'umukara n'ingofero.

Imodoka ntoya ziparitse mu muhanda hano ku rusengero rwa ADEPR Kabagari, ziparitse neza; abagenzi zibatwarira ku gihe, zikabageza aho bageze amahoro, banabashimira kuba bagenda neza mu muhanda nta nkomyi, nta kavuyo baratuje.

Inzu ihagaze mu kibanza cyiza, hari n'abantu bayikikije baje guhabwa serivisi zitandukanye, barashimira serivisi zitandukanye mubuzima bwabo bwa burimunsi barashimira serivisi zitangirwa hano kuko ni ingirakamaro.

Abantu benshi batandukanye barikugenda mu kayira k'amapave, amapave y'umweru n'umukara n'umuhondo barikugenda bajya muri serivisi zabo zitandukanye za buri munsi bakeneye, hari amazu yitaje arimo irangi ry'umweru, bafite ibirahure baricaye.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kimeze neza kirimo jaride kirimo abantu, ku ruhande hakikije n'amazu hameze neza, harasa neza, murakoze cyane Imana ibahe umugisha.

Ikigo kirimo umuhanda ukorerwamo isiganwa ku maguru harimo, jaride hari n'inzira nyabagendwa, harimo n'abantu babiri, n'amazu meza murakoze murakarama.

Inzu iriho icyapa kiyiranga kiriho nimero ijana na mirongo inani na gatanu, kiri ku gisima cyayo kiza. Inzu ni nziza, iri ahantu heza, iteye amarange, ifite amabati meza agezweho, urupangu rwiza.

Icyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo kigaragaza aho abantu bambukira, kuruhande hari inzu igeretse kabiri, iteye irangi ryiza, ibiti byiza by'imikindo, na jaride igezweho.

Umuhanda uriho icyapa maganane mirongo itatu n'ikenda, imodoka iri mu muhanda, umuturage uri mu muhanda, amazu meza n'ibiti byiza umuhanda wamabuye.

Umuhanda uriho icyapa cya parikingi, hari moto ipatitse hahagaze n'ipoto y'amashanyarazi itanga ibijyanye n'umuriro hari igiti kiza, inzu nziza iteye irange.

Icyapa cyanditseho cumi na gatanu kigaragaza rompuwe uko iteye y'ibinyabiziga, cyerekana amerekezo bigomba kunyuramo bijya muri serivisi zitandukanye hirya no hino murakoze.

Icyapa kiyobora imodoka uburyo zigomba kugendamo n'aho zigomba kwerekeza: ni cyiza gituma abashoferi badafata umuhanda uko bishakiye, ndetse bigatuma batwara imodoka zabo neza, ubuzima bwabo bwa buri munsi bwo bwo kwirengagiza impanuka n'ibindi bibazo byose.

Icyapa cya feruje, nicyiza gituma ibinyabiziga bimenya umuvuduko biriho, uburyo ihuriro ry'abantu rusange bahuriramo bambuka, bajya mu nzira zitandukanye hirya no hino.

Ukuguru k'umuntu ukandagiye ku mapave, amapave ni meza aho ari hose haba hari isuku, impamvu yaba yabayeho kugira ngo asukure ubutaka murakoze arakarama.

Urupangu rukorotirije senyeje hejuru n’ nzu nziza ifite amabati meza y’ mutuku. Nabonera n’ y’ umweru kuruhande hari ibiti, hepfo yayo hari namazu meza cyane, ngenzi zayo.

Inzu y'itaje ihagaze mu kibanza cyiza ifite amakaro hasi no hejuru ku nkuta isakaye neza ifite amadirishya arangaye atanga umwuka mwiza wa ogisijeni kuba munzu ifunguye umwuka mwiza winjira ni ingirakamaro.

Umuhanda w'amabuye ukikijwe n'amazu ya kadasiteri ku ruhande hari amapoto, hariho insinga nyinshi zitanga umuriro, kandi umuriro ni ingirakamaro muri serivisi za buri munsi, murakoze.

Zone igaragaza aho ayo mazu aherereye, harimo kaburimbo, jarde, aya mazu ni meza cyane, kuyabamo ni byiza, ameze neza arashimishije, uwayifuza yaza akayigeraho, akaba yakora ahabwa serivisi yifuza.

Inzu ingeretse ifite amabati atukura, inzu iteretseho amatanka abika amazi kandi amazi ni meza, ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi, murakoze.

Imodoka nyinshi ziparitse hamwe zitandukanye n'abantu bazo baje gukenera serivisi zabo barashimira yuko bazihabwa neza nta mbogamizi.

Iyi parikingi iparitseho imodoka z'umukara ifite inzu igeretse kabiri yumetseho nk'ibyapa bigaragaza serivisi zitangirwa hano ku ruhande hari abantu bambaye b'abagenti batanga serivisi za momo za MTN.

Inzu nziza ihagaze mu kibanza cyiza imbere yaho hari umuhanda, indabo nziza, ifite amadirishya meza kuba mu nzu nziza bituma nawe ubwawe wigirira ikizere mu buzima bwawe bwa buri munsi, iyo ubaye ahantu heza ugaragara neza uhumeka umwuka mwiza.

Inzu nziza iteretse mu kibuga kirimo ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwa hano, iyi kampani itanga serivise nziza inogeye abantu mu buzima bwa burimunsi.

Umumotari ari gutwara moto mumuhanda wumukara ndetse atwaye n'abagenzi hari n'abandi bamurindiriye bamubwira ko bamukeneye kugirango abagezeho serivisi nziza harimo n'ibiti ,amatara ndetse n'amapoto abumbye neza cyane .

Ibiti biri ku muhanda umukara bitanga umwuka mwiza, abantu tugahumeka neza tukarushaho kugubwa neza umuhanda utanga serivisi zo mu muhanda ku binyabiziga ndetse bikagenda neza.

Umuhanda wa kaburimbo ufite akayira k'abanyamaguru, urimo imodoka y'ivatiri na moto, n'imodoka ipakira ibikoresho, barashimira perezida nyakubahwa wakoresheje imihanda ikaba migari basigaye bagenda bisanzuye barashimira cyane muri rusange.

Umuhanda urimo abantu umunyenyamu n'umuyonzi barishimye kuba kaburimbo icaniye, baragenda habona aho bagera baragerayo amahoro barabyishimiye murakoze cyane.

Kaburimbo y'umukara, ku ruhande hari umurongo w'umweru n'umukara ugaragaza aho abantu banyura batagomba kurenga, kugira ngo ibinyabiziga bitabakandagira, hari amatara y'umweru n'amazu meza ari ku ruhande.

Kaburimbo ifatanyije n'umuhanda w'igitaka hano mukansege iririmo imodoka itwara imizigo nindi ntoya zimwe ziragenda neza i parirkingi nziza urarakoze cyane.

Abamotari bari mumuhanda batwaye ibinyabiziga, bageze mu muhanda aho abantu bambukira, muri feruje bahagaze baratuje, abaturarwanda turi kwambuka ntakibazo serivisi zo mumuhanda ziri gutangwa neza.

Kaburimbo ni nziza, ituma ibinyabiziga bigenda neza, nta mbogamizi iragutse abantu bagenda neza, bakagerayo amahoro mu ngendo zabo za buri munsi. Turashimira uwakoze umuhanda n’uwakoze imashini zikora imizi, ikore imihanda yose.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara kuruhande hari icyapa cy'umweru hari n'imodoka y'ubururu ipakira imizigo, ku ruhande hari ibiti hakaba n'amapoto ahereza umuriro kuba baturage.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bya moto n'amamodoka wesitayejo amatara yo mu muhanda hano ku kinamba umuhanda ni mugari ukoze neza turashimira abakoze imihanda n'abandi.